Ndi kubona amazi n'impapuri biteretse ku kameza, ukuguru k'umuntu usa naho yicaye, hirya hari imodoka eshatu n'indi imwe iri ku ruhande ya kane, hasi hari amakaro y'umweru n'inkuta z'umweru.

Umuntu ufashe umugati mu ntoki asa nkaho ari kuwuryaho afatishije n'agapapuro imbere ye hari intebe y'ubururu n'ibindi bintu biyiteretseho inyuma yayo hasa umweru hari nindi ntebe iri kure nayo isa ubururu.

Kubona akabati karimo imyanya itandukanye, umuntu arii kukandikaho afite ikaramu. Kari mu nzu, ku ruhande hari ibishushanyo, iyo nzu irimo parafo, hasi ni sima, ku ruhande hari irange ry'umweru.

Isoko bari gucururizamo inkweto hari intebe n'imyenda, hari abantu bari gucuruza, hari intebe z'ubururu. Inyubako hejuru hasa umweru hasi n'amakaro y'umweru n'umukara, ndi kubona bari gucuruza ibintu bitandukanye imipira, inkweto.

Ndi kubonaho ikirangantego k'icyigo cy'igihugu gishinzwe ubwisungane mu kwivuza, ndi kubonaho imashini n'amatushe yo ku mashini ndi kubonaho ibiganza by'umuntu n'inzara ndi kubonaho amagambo yanditse mu mweru, ayanditse mu bururu ndetse n'imirongo igiye ishushanyije ibimenyetso by'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwisungane mu kwivuza, ndi kubonaho ikirahure cy'imashini umukara n'umweru.